Abagabo babiri bicaranye umwe yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru yambaye n'isaha ku kuboko undi mugabo yambaye ishati y'umweru imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Abantu batatu bicaye mu cyumba giteyemo intebe z'umukara, harimo umugore umwe n'abagabo babiri, imbere yabo hari ameza yo mu ibara ritukura ateretseho indangururamajwi.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye harimo abagabo bambaye amakoti n'amashati mo imbere, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa na terefone ngendanwa.

Abantu benshi bahagaze birundiye hamwe imbere hari n'abasa nk'abasutamye bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye hagati yabo hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati bari guseka.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama bicaye mu buryo bw'uruziga, bakikije ameza arambuye igitambaro cy'umukara, ateretseho amacupa bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara hari n'izifite ibara ry'umweru.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama, kicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'umweru ndetse n'ikijya kuba kaki hateretseho amazi, hagati yabo hari umugabo ufite indangururamajwi.

Igisambu gihagazemo abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye higanjemo abagore bafite impapuro mu ntoki, hari n'ufite indangururamajwi inyuma yabo hari igiti hepfo yabo hari ihema ry'umweru.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, hari n'undi mugabo wambaye ishati y'ubururu wambaye amadarubindi ku maso, imbere yabo hari ameza yateretseho mudasobwa ndetse n'igikapu.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, gifite urugi rufunguye, cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'ibikapu batwara ku rutugu.

Icyumba kicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku buryo bw'uruziga bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru imbere yabo hari ameza y'umukara arambitseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba gifite amatara ari kwaka hejuru, gifite ibikuta by'umweru, gifite imbuga y'ubururu, iteretseho intebe ziri mu ibara ry'ubururu, zicaweho n'abantu bambaye imyambaro y'amabara menshi.

Icyumba giteyemo ameza asasheho igitambaro kirimo ibara ry'icyatsi kibisi, hateretseho amacupa akikijwe n'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye; abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi.

Abantu bagaragara nk'abicaye mucyumba cy'inama bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimo umuzungu umwe, imbere yabo hari ameze ari mu ibara ritukura ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo n'intebe ziri mu mabara atandukanye, harimo iz'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi kibisi, imbere yabo hahagaze umugabo nufite indangururamajwi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare wambaye amadarubindi ku maso, ufite imvi mu bwanwa, afite indangurura majwi mu ntoki, imbere ye kumeza hateretse icupa, inyuma ye hicaye abandi bantu.

Umugabo ugaragara nk'uwicaye mu cyumba k'inama, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye udafite umusatsi ku mutwe, wambaye amadarubindi ku maso yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umukara, imbere ye hateretse icupa.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama kicayemo abantu bambaye imyambaro yo mumabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa imbere hari umuntu ufite indangururamajwi.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye imbere hagaragara umukobwa wambaye amadarubindi wambaye ikote y'ikoboyi atashyizemo amaboko imbere yabo hari ameza ateretseho udukombe tw'umweru ndetse n'ibirahuri.

Umugore ufite imisatsi mikeya ku mutwe, wambaye ishati irimo amabara abiri, umukara ndetse n'umweru, yambaye ijipo itari ndende y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki, ku ruhande hagaragara undi mugabo wicaye ku ntebe.

Abantu bagaragara nk'abicaye mucyumba cy'inama, bicaye bazengurutse ameza bambaye imyambaro yo mumabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, ameza arambuyeho igitambaro cy'umukara ateretseho amacupa ndetse n'impapuro.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama kicayemo abantu bicaye bazengururse ameza, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, indangururamajwi ndetse na telefone ngendanwa.

Ihema ryicayemo abantu benshi imbere hicaye abagore bane babiri bambaye imipira isaha y'amaboko magufi, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu ateretseho terefone ngendanwa ndetse n'icupa ry'amazi.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru cyicayemo abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama byicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara bazengurutse ameza ateretseho amacupa, imbere yabo ahagaze uyu mugabo ufite indangururamajwi hari n'isakazamashusho inyuma ye.

Icyumba kirimo ameza arambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'umukara, ateretseho amacupa azengurutswe n'intebe, zirimo ibara ritukura, zicayeho abantu bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi.

Icyumba cyicawemo n'abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara risa nk'ivu, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ritukura ndetse n'umukara, ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Abantu bicaye bameze nk'abari gukorera mu itsinda, imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa imwe, abenshi muri bo bari kuyirebamo. Abagore barimo bose bambaye amadarubindi ku maso, inyuma hagaragara ibitambaro birinda urumuri bimanitse mu madirishya.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk' icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kirimo ameza arambuyeho igitambaro cy'umukara, ateretseho amacupa, iruhande rwayo hicaye abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho ibitambaro, ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa, hagati yabo hagaragara umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa.

Abantu bicaye mu buryo bw'uruziga, hejuru yabo hari amatara acanye, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, higanjemo umuhondo ndetse n'ubururu, hagati yabo hari imeza ntoya y'uruziga.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye. Imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa amakayi ndetse na mudasobwa hari n'umugabo uhagaze wambaye ikote.

Abantu benshi bicaye mu gisambu, higanjemo abagore bateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hahagaze umugabo ufite urupapuro mu ntoki ndetse n'undi mugabo wambaye imyenda isa ahantu hose, wambaye n'ingofero mu mutwe, inyuma yabo hari ibiti.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicawemo n'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye imbere yabo hari ameza asasheho igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa ndetse n'utundi twapa dutoya n'inyuma hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki.

Icyumba kigaragara nk'ikinama, cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo abirabura ndetse n'abazungu, hagaragaramo umugabo wifashe ku itama, udafite umusatsi, wambaye impeta k'urutoki ndetse n'isaha kukuboko, imbere yabo hateretse imeza.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo k'imisoro n'amahoro mu Rwanda kwerekana izina ry'isosiyete, umusoro w'ubucuruzi wishyuwe itariki yishyuriyeho ndetse n'amafaranga yagombagwa kwishyurwa. Inyemezabwishyu irimo kandi amakuru ajyanye n'ishami ry'isosiyete, igihano cy'ubukererwe ni nyungu zishyuwe. Inyandiko yerekana ko umusoro w'ubucuruzi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, wishyuwe mu karere ka Nyarugenge.

Igisambu giteyemo amahema y'umweru, hejuru afite ibitambaro bizengurutse biri mu ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, hicayemo abantu benshi, imbere yabo hahagaze umugore ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu babiri bagaragara mu cyumba kimeze nk'cy'inama, harimo umugabo umwe ndetse n'umugore umwe, imbere yabo hari ameza yo mu ibara ritukura ateretseho mudasobwa, amacupa ndetse na terefone ngendanwa.

Icyumba gifite imbuga y'ubururu iteretseho intebe zicaweho n'abantu hagati yabo hagiye hari utumeza dutoya duteretseho ibyo kunywa, inyuma yabo hagaragara abandi bantu bafite telefone ngendanwa.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ikotendetse n'ishati mwimbere ugaragara igihimba yicaye, imbere ye hari amaje ateretsaho amacupa, inyuma ye hari ibyapa byanditseho amagambo yo mwibara ry'umukara.

Icyumba kigaragara nkik'inama kirimo abantu bakeya bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma y'aho hagaragara izindi ntebe z'ifite ibara rijya gusa nk'ivu, imbere yabo bantu hari ameza ateretseho terefone njyendanwa, amakayi, ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ritukura ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nk'icyinama hicayemo abantu bambaye imyambaro itandukanye, harimo abambaye imyambaro y'ubururu, inyuma hicaye umusore umwenyuye ufite umusatsi ujya kuba mwinshi ku mutwe, imbere yabo hateretse ameza hariho amazi.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ikinama bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba gifite igikuta kiri mu ibara ry'umuhondo kicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abakobwa ndetse n'abahungu. Imbere hicaye umuhungu wambaye umupira w'umweru wegeranye n'umukobwa ufite imisatsi iboshye.

Iki ni icyumba k'inama y'imwe muri kampani runaka, aho abayobozi bashobora guhurira mu kwiga ku ngingo zitandukanye no gukemura ibibazo byagaragaye.

Imbuga y'igitaka ihagazwemo n'abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umukobwa ubahagaze hagati wambaye amadarubindi ku maso, afite agakapu kari mu ibara ritukura ku rutugu, afite terefone ngendanwa mu ntoki yambaye n'isaha iruhande rwe ahahagaze umugabo wambaye impuzangano z'abapolisi.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagaragaramo umugore uteruye umwana, n'ameza iteretseho indabo, arambuyeho igitambaro cy'umweru iriho na terefone ngendanwa.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa, bari kureba mu nsakazamashusho imanitse imbere yabo.

Abagabo bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe z'umukara bose bambaye amakote, imbere yabo hagaragara ameza ari mu ibara ritukura, ateretseho indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa n'indangururamajwi, hakurya ku gikuta hagaragara umutako uriho inka z'inyambo.

Umugabo wicaye, wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, wambaye n'ishati y'umweru, yambaye isaha ku kuboko, impeta ku rutoki, yambaye n'amadarubindi ku maso, afite indangururamajwi mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufi, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ndetse n'ikindi kijya gusaha nka kaki, hateretseho amacupa ndetse n'amasahane.

Umugore usa nk'aho akuze w'inzobe ufite imisatsi y'umukara igera ku bitugu, wamabye umwambaro uri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, imbere ye ku meza hateretse icupa ndetse n'ikirahure banywesha cyubitse.

Icyumba kigaragara nk’icy'inama, cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo har’ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru. Imbere hagaragara abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru, imbere umwe yambaye amadarubindi ku maso.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku mbuga iteyeho ibyatsi, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umuhondo, hejuru yabo hari ihema ry'umweru.

Imodoka imwe y'umweru itwara abagenzi ku giti cyabo imbere yayo hahagaze ipikipiki iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku hejuru handitse amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Ameza ari mu ibara ritukura, ateretseho mudasobwa nyinshi, iruhande rwayo hicaye abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo umugabo wambaye ishati, uri gutunga urutoki muri mudasobwa iri imbere ye.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Abantu bagaragara igihimba abenshi muri bo bambaye imipira y'icyatsi kibisi y'amoko magufi bafite ingemwe z'ibiti mu ntoki bari guseka hari abambaye ingofero harimo umuzungu umwe.

Icyumba kigaragaramo abana babiri bambaye impuzankano zigaragara nk'iz'abanyeshuri, baricaye imbere yabo hari ameza, umwe muri bo afite mudasobwa iteretse ku meza yayihindukije ari kwerekana ibishushanyo biyirimo.

Imbuga isashemo amabuye, aho iherera ku ruhande hari umurima urimo ibyatsi bike, hicaye n'umuntu wambaye igitambaro ku mutwe, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo ndetse hariho amafoto y'abantu babiri.

Umugabo utagaragara neza mu isura, wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi, afite ubwanwa, yambaye imyambaro iri mu ibara y'umukara, imbere ye hateretse mudasobwa icanye, irimo amashusho y'utwana tubiri, imbere ye hicaye undi muntu wambaye imyambaro y'umweru.

Umusore wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, wambaye n'ingofero y'ubururu, imbere ye hari ameza ateretseho imashini ifotora impapuro, imbere y'ameza hicaye umugabo wicaye ku ntebe y'umweru.

Akangaka ni agace runaka kagezweho keza, tubonamo kanyuramo abantu karimo n'umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga, ahangaha tukabona ipikipiki iriho umuyobozi uyiyoboye ayicayeho.

Umusore wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare wa runiga ugaragara igice cy'igihimba, afite agasatsi gakeya ku mutwe yamwenyuye, afite terefone ngendanwa mu ntoki iri kwaka yayerekanye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya, afite indangururamajwi mu ntoki iri mu ibara rijya gutukura, imbere ye hari ameza ateretseho amacupa ndetse na terefone ngendanwa, ukuboko kwe yagutunze ku cyapa kiri inyuma ye.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu bwijimye, ufite mudasobwa imbere ye, iruhande rwe hari undi muntu wambaye umupira uciyemo imirongo y'icyatsi ndetse n'umweru, yambaye ingofero y'icyatsi kibisi mu mutwe, iruhande rwe hakagaragara umukobwa ufite imisatsi iboshye, wambaye amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa afite terefone ngendanwa.

Umusore wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye amadarubindi ku maso, yambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu, afite mudasobwa y'umweru mu kiganza, iruhande rwe handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Inzu ikigaragara nk'aho iri kubakwa yubakishije amatafari ahiye hejuru haca insinga zitwara umuriro wamashanyarazi hagaragara n'umunara hejuru hari ikirere cyiganjemo ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze mu gahanda gasashemo amabuye, yambaye bote ziri mu ibara ry'umukara, afite umweyo yashizemo igiti, ameze nk'ukubura, iruhande rwe hagaragara umuhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari abantu ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo, munsi hari ubusitani buteyemo ibiti bibiri bifashe insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hepfo hagaragara amazu. Harimo inzu y'igorofa isakarishijwe amategura, hejuru ifite ibyuma bishinzwe gushyushya amazi ndetse n'ibifata imirasire y'izuba.

Imbuga ihagazemo imodoka nini cyane iri mu mabara abiri, harimo icyatsi kibisi, umweru ndetse n'ubururu itwara abagenzi, imbere yayo hari abanyonzi bahagaze ndetse n'amagare yabo.

Igisambu gihagazemo abantu bari munsi y'umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, imbere yabo hagaragara igiti kirekire gifasheho insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, imbere yacyo hagaragara umuhanda w'igitaka ndetse n'inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki, haruguru yaho hagaragara umugabo wambaye umwambaro w'ubururu ndetse n'imodoka ihahagaze, hari n'icyapa kiriho umugabo uri guseka wambaye ishati itukura ufite terefone ngendanwa mu ntoki.

Umurima uteyemo ibintu bigiye bitandukanye, muri byo hagaragaramo igihingwa cy'ikigori, hejuru hagaragara insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, haruguru hagaragara amazu ahubatse, hejuru hagaragara ikirere kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda w'igitaka ushinzemo icyapa cya mpandeshatu kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hagati hashushanyijemo umusaraba, ku ruhande hari uruzitiro ruri mu ibara rijya gusa nk'ivu, hari n'umuhanda wa kaburimbo, hejuru hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Imbuga ihagazeho imodoka y'umweru iri mu bwoko bw'imbangukira gutabara yanditseho amagambo y'ubururu haruguru hari umuntu uhicaye n'izindi modoka zihari hagaragara n'ama esekariye.

Imbuga ihagazemo imodoka eshatu; imwe y'umukara itwara abantu ku giti cyabo; n'izindi ebyiri z'umweru ziri mu bwoko bw'imbangukiragutabara; inyuma hagaragara ibiti bibiri ndetse n'inyubako isakaje amabati yo mu ibara ry'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hagaragara imbuga y'umweru, ifatanye n'ubusitani buteyemo igiti cy'umukindo, imbere hagaragara izindi modoka ntoya zitwara abantu ku giti cyabo.

Umusore wambaye ishati y'amaboko maremare yo mu ibara ry'umukara, ku kuboko kumwe yayizamuye ageze hejuru y'inkokora, iruhande rwiwe hari umuntu wambaye imyenda y'umweru igaragara nk' impuzankano y'abaganga, yambaye na ga mu ntoki n'agapfukamunwa k'ubururu mu isura.

Umuhanda uri kugendamo umuntu wambaye ipantaro y'icyatsi kibisi n'ishati y'umweru hejuru hari umukingo wubakishije amatafari, hagati usa nk'uwasenyutse, haruguru hari ubusitani, imbere hagaragara amazu asakarishijejwe amabati yo mu ibara ritukura.

Ubusitani buteyemo ibiti bibiri, bufatanye n'imbuga igaragara nk'itose, hari n'amamodoka ahahagaze, hakurya hagaragara amazu asakarishijwe amabati yo mu ibara ritukura.

Inyubako isakarishije amabati yo mu ibara ritukura, ifite ibikuta bijya gusa nk'umuhondo, imbere yayo hari ubusitani, iruhande rwayo hari imodoka z'umweru ziri mu bwoko bw'imbangukiragutabara.

Umugore uhagaze mu gahanda gashashemo amabuye hagaragaramo igicucucu k'igiti ufite terefone ngendanwa ku gutwi n'ibintu atwaye mu ntoki, iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo inyuma ye hagaragara inyubako.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye imyambaro iri mu ibara ritukura, umukara ndetse n'umweru, utari guseka, udafite n'umusatsi ku mutwe, yambaye ishati mo imbere.

Abantu benshi bicaye hasi munsi y'ibiti barambije, imbere hagaragara umugabo wegamye ku giti, n'undi mugabo ufite umutaka urimo amabara menshi, hari n'abandi bantu bicaye ku ntebe imbere yabo hariya ameza.

Abantu bicaye harimo umugore wambaye imwambaro uri mu bwoko bw'igitenge ,hari agatambaro Kari k'urutugu Kari mu mabara atatu harimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi n'umugabo uri iruhande rwe aragafite .Mbere yabo hari abandi bantu bicaye ndetse n'ubundi mugabo uhagaze.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba utari guseka ufite umusatsi ugaragaramo imvi nkeya yambaye umwambaro uri mu mabara atatu harimo iritukura, umukara ndetse n'umweru.

Abantu bahagaze ku murongo utambitse, bahagaze ku mbuga ifite amabara atandukanye, bambaye imyambaro isa, iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, inyuma hagaragara igikuta kijya kuba mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi ku maso yambaye umwambaro ugaragara nk'impuzangano y'abagororwa inyuma hari idirishya rimanitseho urupapuro rw'umweru.

Umugabo uhagaze atari guseka ugaragara igice cy'igihimba ufite agasatsi gakeya ku kumutwe, yambaye imyenda iri mumabara atatu harimo umutuku, umukara, ndetse n'ibara ry'umweru.

Imbuga y'igitaka iri kugendamo abantu bagaragara nk'bagenda ku murongo, bambaye imyenda igaragara nk'impuzangano y'abagororwa, ku ruhande hari igikuta kirekire cyane cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bambaye imyambaro y’amashati y'amaboko magufi ndetse n'amakabutura igaragara nk'impuzankano y'abagororwa, bambaye udupfukamunwa two mw’ibara ry'ubururu mw’isura, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Abagabo bahagaze imbere y'urugi runini ruri mu ibara rya kacyi ndetse n'umukara hejuru handitseho amagambo, bambaye imyenda igaragara nk'impuzankano y'abagororwa hari n'urukuta rurerure rwubakishije amatafari ahiye.

Abantu bambaye impuzankano zisa, ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bazamuye ikiganza, iruhande rwabo hari amabendera yo mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, imbere hicaye undi muntu umwe, wambaye ingofero mutwe ndetse n'umwenda mu ibara ritukura.

Abantu bicaye hasi mu gisambu, abandi bicaye ku ntebe bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, hagati harimo umugabo uhagaze wambaye ishati, ahagaze imbere y'abantu bicaye bafite udutambaro ku rutugu turi mu mabara atatu harimo: ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo ugaragara igice k'igihimba gusa nk'uwamwenyuye yambaye umwambaro, wo mu mabara atatu harimo ibara ritukura n'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru.

Icyumba kigaragaramo abantu bane; batatu bambaye impuzankano z'umukara ndetse n'umweru; hagati hahagaze umugabo wambaye imyenda y'iroza igaragara nk'impuzankano z'abagororwa; inyuma hari ibikuta by'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'iroza, wambaye agapfukamunwa mu isura kari mu ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, nawe yambaye agapfukamunwa bari kureba muri mudasobwa.

Abantu bambaye imyenda yo mu ibara ritukura ndetse n'umweru, bahagaze iruhande rw'umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa, wambaye n'amadarubindi ku maso, inyuma ye hari abandi bantu, inyuma ku gikuta hagaragara amabendera abiri.

Icyumba gihagazemo abantu bambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, harimo umwe wambaye imyenda itukura, kumadirishya hari ibitambaro birinda urumuri.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba yambaye umwambaro uri mabara atatu, harimo umutuku umukara ndetse n'umweru, yambaye amadarubindi ku maso nta musatsi afite.

Umugabo ugaragara igice k'igihimba yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru mo imbere, yambaye amadarubindi ku maso, inyuma ye hagara abandi bantu ndetse n'umuryango ukinguye.

Abantu bambaye amakabutura ndetse n'amashati, agaragara nk'impuzangano y'abagororwa, imbere yabo hari urukuta rurerure, rwubakishije amatafari ahiye, hejuru banditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Umugore ugaragara igice k'igihimba ufite imisatsi igera ku rutugu, yambaye ingofero mu mutwe ndetse n'amadarubindi, yambaye imyambaro yo mu mabaaa y'umutuku, umweru, ndetse n'umukara, inyuma ye hamanitse ibendera ry'igihugu rishushanyijemo izuba.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mabara atandukanye hagati hari kugenda abagabo babiri bambaye imyambaro y'umutuku n'ingofero z'umukara mu mutwe, uw'imbere afite ibendera rigaragara mu mabara atatu ariyo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu bambaye imyambaro y'amakabutura ndetse n'amashati, bigaragara nk'impuzankano y'abagororwa, bafite injerekani mu ntoki, bambaye na boti, imbere yabo hagaragara igikuta kirekire cyubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba kicayemo abantu benshi imbere hagaragara abagabo babiri, umwe w'umuzungu undi w'umwirabura, umuzungu yifashe ku itama ari guseka, inyuma yabo hagaragara abandi bantu harimo n'umugore wambaye imyenda igaragara nk'impimpuzangano y'abagororwa.

Icyumba cyicayemo abantu batatu, bambaye impuzankano zisa, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, telefone ngendanwa, ndetse n'indangururamajwi. Inyuma hagaragara icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo kiriho n'umusaraba uri mu ibara ritukura.

Icyapa kiriho amashusho y'abantu. Hariho umugabo wifashe mu mutwe wambaye isaha ku kuboko n'undi mugore uri iruhande rwiwe, hepfo hari abantu bambaye ibitambaro mu mutwe.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba wambaye amadarubindi ku maso, udafite umusatsi yambaye umwambaro mu mabara atatu, harimo umutuku, ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweruru.

Umugabo wambaye ikote, yambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi w'amasoso, ari gusuhuza umugore wambaye imyambaro y'umutuku, wambaye n'ingofero mu mutwe nawe yambaye amadarubindi.

Umugabo udafite umusatsi ku mutwe, ugaragara igice cy'igihimba, ahagaze atari guseka, yambaye umwambaro wo mu mabara abiri harimo umutuku ndetse n'umukara, mw'imbere yambayemo ishati iciyemo imirongo.

Abagore babiri bambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abagororwa, umwe aricaye undi arahagaze, bagaragara hagati y'abagabo babiri bambaye imyambaro iri mw’ibara ry'umweru ndetse n'umukara, imbere yabo har’ameza ariho icupa ndetse na terefone ngendanwa.

Umugabo w'umuzungu wambaye imyenda igaragara nk'iyabayisilamu, ahagaze hagati y'abagabo babiri bambaye impuzankano zirimo ibara ry'umukara zigaragara nki'iz'abapolisi.

Umugore wambaye amadarubindi ku maso wambaye ingofero mu mutwe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, hasi yambaye imyambaro iri mu ibara ritukura ndetse n'umweru imbere ye hari indangururamajwi ku ruhande hagaragara ibendera.

Abantu bicaye mu gisambu munsi y'igiti hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro uhagaze hari n'abantu bafite udutambaro ku rutugu turi mu mabara atatu ariyo ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, yambaye agapfukamunwa k'umweru mu isura, yambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abagororwa, afite ikayi y'ubururu mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyamba y'amabara atandukanye, hari abambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, n'ingofero mu mutwe, abandi bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umweru, n'ingofero z'umukara mu mutwe.

Abantu bicaye ku ntebe y'urubaho iteye mu gisambu, bambaye imyambaro igaragara nk'iy'abagororwa, inyuma yabo hari abandi bantu benshi, hagaragara n'uruzitiro rw'imiyenzi.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi migufiya, uhagaze atari guseka ugaragara igice cy'igihimba, yambaye umwambaro uri mu mabara abiri, harimo ibara ritukura ndetse n'iry'umweru.

Imbuga y'igitaka, ihagazemo abantu bambaye imyambaro igararaga nk'impuzangano y'abagorwa, bahagaze munsi y'igiti, imbare yabo hari abantu babiri bicaye ku ntebe, inyuma yabo hari guturuka imodoka y'umweru.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, mo imbere yambayemo agapira karimo amabara menshi, yambaye isaha ku kuboko, afite n'ikaramu mu ntoki, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'impapuro.

Imbuga isasheho amabuye ihagazeho abantu batonze umurongo, bambaye amashati ndetse n'amakabutura bigaragara nk'impuzankano y'abagororwa, bambaye agapfukamunwa mu isura, inyuma yabo hari imodoka iri guturukamo abandi hahagaze n'abandi bagabo bambaye impuzangano zisa bafite n'imbunda.

Umugabo uhagaze atari guseka, udafite umusatsi ku mutwe, wambaye umwambaro wo mu mabara abiri, harimo umutuku ndetse n'umweru, mo imbere yambayemo ishati ifite ibifungo by'umukara.

Umugore ugaragara igice cy'igihimba ahagaze atari guseka, yambaye umwambaro urimo amabara atandukanye harimo ibara ritukura, ibara ry'umukara, n'irindi bara rijya gusa n'umweru.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati bigaragara nk’impozankano y'abagororwa, yambaye agapfukamunwa k’iroza, afit’igitabo mu ntoki, yicaye hagati y'abantu babiri bambaye imyenda y’amabara y’umukara ndetse n’umweru.

Imbuga isashemo amabuye, ahagazemo imodoka y'umweru ndetse n'umukara y'abapolisi, imbere yayo hagaragara inzu y'igorofa imanitseho icyapa kiririmo ibara ry'umweru handitsemo, amagambo yo my ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Imbuga isashemo amabuye, hari kugendamo umugore wafashe umugabo akaboko. Umugore yambaye ikanzu, umugabo ahetse igikapu gitukura mu mugongo. Imbere yabo hagaragara undi mugabo wambaye impuzangano z'icyatsi, ku ruhande hari inzu z'amagorofa.

Imbuga ihagazemo abantu batatu harimo umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hahagaze abantu babiri bambaye impuzankano zisa, imbere yabo hari ipikipiki y'umweru, hagaragara n'inyubako.

Ameza yateretseho icupa rya gaze ririmo ibara ry'umutuku ateretseho n'ayandi macupa y'umutuku hariho n'isafuriya, kuri gaze hariho isafuriya kwakamo umuriro imbere yayo hari abantu babiri umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara undi yambaye ak'ubururu inyuma ahagaze abantu benshi bambaye impuzankano igaragara nk'iy'abanyeshuri.

Imbuga isashemo amabuye harimo imodoka ntoya y'umweru y'abapolisi, imbere yayo hahagaze abantu, inyuma yayo hari imodoka nini cyane y'ubwikorezi igaragara igice gitoya.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibifungo by'umweru, afite urupapuro ruzinze mu ntoki, yambaye impeta ku rutoki yambaye amadarubindi ku maso afite umusatsi w'amasoso.

Inyubako zisakarishije amategura, imbere yazo hari amahema y'umweru, hari n'abantu bari kuhagenda, hari n'imodoka zihari, hari n'agace gato gateyemo ubusitani buzengurutswe n'indabo.

Umugabo udafite umusatsi, wambaye ikote ry'bururu bwijimye n'ishati mo imbere, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hateretse indangururamajwi ndetse n'icupa.

Abatu benshi bambaye imipira y'ubururu ndetse n'umutuku, bambaye ingofero ku mutwe bafite utubendera dutoya, turi mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu, inyuma yabo hagaragara ingabo.

Abantu babiri bicaye umugabo ndetse n'umugore, hagati yabo hari akameza gatoya umugabo yambaye ishati y'umweru yambaye amadarubindi ku maso, inyuma yabo hagaragara icyapa kirimo ibara ry'ubururu.

Ibendera rimanitse rigaragara nk'iri kuguruka riri mu mabara atatu harimo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku handitsemo inyuguti mu ibara ry'ubururu handitsemo inyuguti A n'aho ibara ry'umweru harimo inyuguti ya P n'aho ibara ry'umutuku harimo inyuguti ya F hejuru hagaragara ikirere cyiganjemo umweru.

Icyumba kicayemo abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse na mudasobwa, inyuma y'ameza hari umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa ufite igiseke mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu beshi, bambaye imyambaro y'amabara agiye atandukanye, hari afafite amakayi n'amakaramu, abandi bafite terefone ngendanwa zabo munoki, bicaye ku nebe zifie amabara y'umweru.

Umugore munini ugaragara igice cy'igihimba, ateze igitambaro mu mutwe, yambaye amaherena ku matwi, yambaye imyambaro iri mu bwoko bw'imikenyero, iruhande rwe hahagaze undi muntu utagaragara wese.

Abantu benshi bagaragara nkabari gukoma amashyi, harimo umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa. Iruhande rwe hahagaze umugore wambaye imyambaro y'umukara ufite n'amadarubindi ku maso. Imbere yabo hari akameza gatoya karambuyeho igitambaro cy'umweru.

Umugore wambaye ikote riciyemo imirongo, yambaye n'agapira k'umweru mu imbere, afite umusatsi mugufiya, yambaye amadarubindi ku maso, yicaye ku ntebe y'umukara. Imbere ye hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'icupa.

Umugore ufite imisatsi migufi wambaye imyenda y'ibitenge, imbere ye hahagaze utwana tubiri twambaye amakote ndetse n'amapantaro bisa, mu imbere bambayemo amashati y'umweru.

Umuntu ufite urupapuro mu ntoki ruriho ishusho y'umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, inyuma ye hagaze abandi bantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abagabo batatu bahagararanye, umugabo wo ku ruhande yambaye umupira w'amaboko magufi, yambaye amadarubindi ku maso, uwo hagati afite urupapuro mu ntoki n'indangururamajwi imbere yiwe, inyuma ye hagaragara intebe z'ubururu n'abantu bahicaye, hagaragara n'amazu.

Abantu batatu bicaranye harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe imbere yabo ku meza harambuye igitambaro cy'umweru giteretseho terefone ngendanwa n'amacupa hari n'indangururamajwi nyinshi, umugabo umwe muri bo afite indangururamajwi imwe yo mu ntoki.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagaze nk'abatonze umurongo uhagaze, hari umugabo imbere wambaye ikote amadarubindi ku maso, yambaye n'ingofero y'urugara, inyuma ye hari umugore uteze igitenge mu mutwe.

Imbuga y'igitaka iteyeho intebe zirimo ibara ry'umweru, hicayeweho umugabo umwe abandi bagabo babiri barahagaze, uwo hagati yazamuye ibiganza byombi, inyuma y'iwe hari imodoka itwara abantu ku giti cyabo, imbere yayo hahagaze umugabo.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye hagaragara umugore ukenyeye igitenge yambaye n'umupira w'amaboko magufi, ufashe umwana akaboko, inyuma yabo hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsemo n'amagambo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, watebeje, wambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi w'amasoso, ari kugendana n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru, y'amaboko magufi, inyuma yabo hari abandi bantu bari kubagenda inyuma.

Abantu bambaye imipira y'umweru irimo ishusho y'igipfunsi gitukura mu gatuza, bambaye n'ingofero inyuma hagaragara umugabo wazamuye ifoto nini iriho umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'ikote ugaragara igice cy'igihimba.

Abagore ndetse n'abagabo, bahagaze ku murongo utambitse bategeranye, abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, hagati ya bo hahagaze abagabo babiri bambaye ikote ndetse n'ipantaro, bafashe ku ma bendera, arimo ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Ahantu hahagaze abantu benshi bambaye imipira y'umweru ndetse n'ubururu bafite utubendera dutoya mu ntoki turi mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu bambaye n'ingofero mu mutwe.

Imbuga ihagazwemo n'abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye hari nabandi bicaye hasi imbere y'abahagaze imbere hahagaze umugore ufite indangururamajwi inyuma ye kuruhande hagaragara inzu.

Umugabo ugaragara nk'uri gutambuka, wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara atandukanye, yambaye amadarubindi ku maso n'impeta ku rutoki, afite umusatsi uri mu bwoko bw'amasoso.

Ikiganza cyambaye agatare ku kuboko, gifite urupapuro ruriho amasura atatu y'abagabo, uwo hejuru yambaye imyenda irimo umukara n'umweru, hagakurikiraho undi wambaye ishati, ukurikiraho yambaye amadarubindi.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, abagabo bambaye amakoti ndetse n'amapantaro, bafashe ku mabendera afite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba; wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru mu imbere; yambaye amadarubindi ku maso, nta musatsi afite, ntanubwo ari guseka; imbere ye hagaragara agace gato cyane k'indangururamajwi.

Abantu bane bahagararanye, harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, umugabo umwe yambaye ishati ijya gusa nk'ivu ifite ibifungo by'umukara bafite indangururamajwi nini y'umweru, inyuma yabo hari icyapa.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, wambaye isaha y'umukara ku kuboko, ufite indangururamajwi yayegereje umunwa, inyuma ye hagaragara intebe z'umweru n'icyapa kiriho ishusho y'umugabo, hakurya yiwe hagaragara imodoka ebyiri ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati mo imbere, ufite indangururamajwi imbere y'iwe, wazamuye ikiganza, hasi handitse amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Abagabo batatu bagaragara igice cy'igihimba, harimo uwambaye amadarubindi ku maso munsi ye handitse imibare mirongo icyenda n'icyenda, hirya ye hari undi mugabo nawe munsi ye handitse imibare zeru n'ibice mirongo itanu na bitatu, undi mugabo usoza munsi ye handitse imibare zeru n'ibice mirongo itatu na bibiri.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu, imbere yabo bahagaze abagabo bane ndetse n'umugore umwe, imbere yabo kumeza hateretse indangururamajwi ku mpande, ndetse n'inyuma yabo hari amabendera.

Umugabo wicaye wambaye amadarubindi y'umukara ku maso wambaye ikote iruhande rwe hahagaze umugore wambaye amadarubindi y'umukara kumaso wambaye imyambaro y'imikenyero imbere ahagaze undi muntu wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura inyuma hagaragara abantu benshi.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abagabo babiri bahagaze bafite ikintu bose bafasheho bambaye amakoti ndetse n'amapantaro yo mu bururu bwijimye, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse n'amadarubindi, undi yambaye ishati y'umukara inyuma yabo hagaragara ameza n'undi muntu wicaye ku ntebe y'umukara.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze ku murongo utambitse, abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, abagabo bambaye amakote ndetse n'amapantaro bafashe ku mabendera afite amabara atatu ari yo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, hejuru mu ibara ry'ubururu hashushanyijemo izuba.

Umuhanda wa kaburimbo ,uri kugendamo imodoka ntoya, yo mu ibara ry'umweru; hagati mu muhanda hagaragara ubusitani, hakurya y'umuhanda hateye ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umugabo, ku ruhande umuhanda wa kaburimbo hari imodoka y'ubwikorezi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Agahanda gasashema amabuye kari kugendamo imodoka ebyiri z'ubwikorezi ntoya, imwe muri zo mu ibara ry'umweru aho batwara imizigo hicayemo umuntu hari kugendamo n'amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, iri mu ibara ritukura inyuma yayo hagaragara indi modoka y'bara y'umuhondo, itwara abagenzi, ku ruhande hari igorofa ririmo ibara ry'umweru.

Agace gato k'umuhanda usashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka z'ubwoko butandukanye higanjemo iz'ubwikorezi, inyuma hagaragara imodoka iri mu ibara y'ubururu ndetse n'umuhondo aho batwara imizigo batwikirije shitingi.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo hari kugendamo ibinyabiziga by'amoko atandukanye, harimo amagare, amapikipiki ndetse n'imodoka, hagaragaramo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo imodoka nini y'ubwikorezi irimo ibara ritukura, aho batwara imizigo hagaragara nk'aharimo umucanga, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, ugaragara nkurimo ikinogo hagaragaramo n'imodoka nini itwara abagenzi, hakurya y'umuhanda hagaragara imiti.

Umuhanda urimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu wambaye na kamambiri z'umutuku uri gusunika ingorofani, iruhande rwe hagaragara imodoka y'umweru itwara abantu ku giti cyabo, inyuma hari abandi bantu.

Agahanda karimo amabuye kari kugendamo umugore utwaye igikapu ku rutugu, iruhande rwaho hari umuhanda wa kaburimbo bifatanye uri kugendamo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi harimo n'amapikipiki hakuryaho hari ibiti.

Agahanda agasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, uwo muhanda uri guca munsi y'ikiraro, iruhande rwaho wateye ibiti.

Agahanda agasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'urimo ikinogo hari gucamo imodoka nini y'ubwikorezi, iri mu ibara ry'umuhondo, itwikirije shitingi yo mu ibara ry'ubururu.

Imbuga ihagazeho imodoka itwara abagenzi iri mumabara abiri, ubururu n'umweru inyuma handitseho amagambo, iruhande rw'imodoka hicaye umuntu kuga taburete, yambaye imyambaro y'umuhondo.

Umuhanda unyura hagati yamazu uri kugendamo ipikipiki, ku ruhande hagaragara abasore babiri umwe yambaye umupira ujya kugaragara nk'icyatsi kibisi w'amaboko magufi wanditsemo imibare mu mugongo, imbere hari n'imodoka, kumpande hari ibiti ndetse n'amazusi.

Agahanda gashashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, hari kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi isize ibara ry'icyatsi kibisi, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti, hari n'ipikipiki iri kugendara mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki, imbere yayo hagaragara imodoka y'ubururu y'ubwikorezi, hakurya mu wundi muhanda hagaragara iyindi modoka nini cyane y'ubwikorezi mu ibara ry'ubururu.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari imodoka ziri mu mabara atandukanye harimo imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'imodoka iri mu ibara ry'umukara zitwara abantu ku giti cyabo, iruhande rwazo hagaragara inzu y'igorofa.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, hejuru itwikirije shitingi y'ubururu, izirikishijwe n'imigozi, hakurya hagaragara ibiti birebire.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugaragaramo ingorofani, ku ruhande hari undi mugore uhicaye wambaye agapira k'umutuku gaciyemo imirongo n'abandi bantu bamuri inyuma hagarara n'umuhanda uri kugenda mu ipikipiki.

Agahanda gasashemo amabuye, gahagazemo abantu, ku ruhande hagaragara indi mbuga irimo imodoka, harimo izitwara abantu ku giti cyabo inini ndetse n'intoya, hakurya hagaragara ikigega kibika amazi y'imvura, kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, iruhande rwayo hari ipikipiki ifitemo ibara ritukura itwaye umugenzi kuruhande hagaragarara agace gato k'imbuga isashemo amabuye, hakurya hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, kuruhande hagarara umuhanda usashwemo amabuye, kurundi ruhande hari inyubako zisakarishijwe amategura, inyuma hagaragara abantu bari kugenda ndetse n'ibindi binyabiziga kuhande hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'umweru, inyuma hagaragara ipikipiki ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki abiri iy'imbere itwaye umugenzi imbere yayo hahagaze imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo irimo ibara ry'umweru, hakurya y'umuhanda hagaragara inyubako.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka yo mu ibara ry'umweru itwara abagenzi, iruhande rwayo hari indi modoka igaragara igice cy'inyuma, yo mu ibara ry'umuhondo y'ubwikorezi, hagaragara n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo amagare menshi, iruhande rwayo hahagaze abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere hari umwijime ndetse n'imodoka icyanye amatara.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi itwikirije shitingi, imbere yayo hari kugaragara amapikipiki ndetse n'inyubako iriho icyapa kiriho amacupa abiri y'icyatsi kibisi.

Agace gatoya k'igisambu gafatanye n'umuhanda usashemo amabuye ufatanye n'undi muhanda munini uri kugendamo imodoka nini y'ubikorezi, aho batwara imizigo harimo imifuka myinshi hejuru itwikirije shitingi y'ubururu.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo ibinogo harimo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umweru, aho batwara imizigo hapakiyemo ibintu ndetse hicayemo n'umuntu hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Imbuga ihagazemo imodoka nini itwara abagenzi yo mu ibara ry'ubururu hari kugendamo nigare hakurya hagaragara imisozi hari n'abantu bari kugenda muri iyo mbuga.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse uri kugendamo imodoka y'ubururu y'ubwikorezi irimo amakaziye harimo ay'ubururu ndetse n'ay'umutuku n'ayandi y'icyatsi kibisi, iruhande rwayo hari kugenda ipikipiki itwaye umugenzi hakurya hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ntoya, hejuru iriho ferabeto, hari kugendamo n'amapikipiki, hakurya hagaragara ibiti, inyuma y'ibiti hari imodoka nini z'ubwikorezi.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, itwikirije shitingi, ku ruhande hari kugenda ipikipiki, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, karimo umugabo uri gusunika igare, wambaye ishati y'amaboko magufi, inyuma ye hagaragara umugore witeye igitenge akenyeye ikindi, hagaragara imodoka ndetse n'ipikipiki.

Umugabo uri kugendera mu gahanda k'abanyamaguru, afite igikapu mu mugongo yambaye n'ingofero mu mutwe, iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu mabara abiri umutuku ndetse n'umweru.

Rigori irimo amazi, hejuru hari umuhanda ishashemo amabuye urikugendamo abantu harimo umugabo wambaye ishati y'igitenge, imbere y'aho hari imodoka y'umweru iruhande rw'ipine yayo hasutamye umuntu, ihagaze imbere y'urugi runini tw'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo usa nk'uwasadutse ku ruhande hashushanyijeho umurongo w'umweru watangiye gusibama, hakurya hagaragara ipikipiki ndetse n'umuntu uri gutambuka n'akazu gato kari mu ibara ry'ubururu, hakurya yako hagaragara inyubako ndende igaragara nk'aho ikiri kubakwa.

Agahanda gasashemo amabuye, gahagazeho igare ku ruhande, gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo, ugaragaramo imodoka y'ubwikorezi, iri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi ku ruhande hari agahanda gasashemo amabuye, gahagazemo igare aho batwara umugenzi hateretse umufuka w'umweru, hejuru uriho umwenda w'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho umunyamaguru wambukira, hari kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi iri mu ibara ritukura, imbere hagaragara n'ibindi binyabiziga harimo amagare ndetse n'amapikipiki.

Imbuga ihagazemo imodoka nini itwara abagenzi iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakurya yayo hagaragara amazu y'amagorofa ndetse n'abantu batambuka.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu wikoreye umufuka, wambaye bodaboda z'umuhondo gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imogoka itwara abagenzi yo mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Agace gato k'imbuga irimo ibara ritukura gafatanye n'agahanda gasashemo amabuye hateretsemo intebe inyuma yaho hagaragara igisambu kimennyemo amabuye manini y'amasarabwayi.

Imbuga igaragara nk'ikibuga, ikikijwe n'ubusitani buteyemo indabo zikikije inzu, isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'umukara, inyuma yayo hagaragara ibiti birebire cyane, biyisumba.

Icyapa kiri mu mabara abiri, harimo ibara ritukura ndetse n'ibara ry'umweru cya mpande eshatu, hagati hashushanyijemo amashusho ameze nk'abantu babiri ari mu ibara ry'umukara, inyuma yacyo hagaragara ibiti biteye mu gisambu, hari n'agahanda kari kugendamo abantu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki uciyemo umurongo w'umweruru ugiye utaragurika hejuru y'umuhanda hari ibiti biteye mu gisambu hagaragara n'icyapa.

Umukingo wubakishije amatafari y'amaserebwayi, imbere yawo hagaragara icyapa cya mpande eshatu kiri mu mabara atatu, harimo umutuku ndetse n'umweru hashushanjemo abantu bari mu ibara ry'umukara hagaragara n'ibiti.

Icyapa gifite amabara abiri harimo ibara ritukura ndetse niry'umweru, cyanditsemo amagambo yo mu nyuguti nkuru yanditse mu ibara ry'umweru.

Ahantu hateye ibiti bifatanye n'imbuga irimo igisambu harimo icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara, hejuru yacyo hagaragara ikindi cyanditsemo umubare 60, kiri mu buryo bw'uruziga, kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umukara, yanditse mu nyuguti nkuru harimo n'imibare inyuma yacyo hagaragara ibiti birebire ndetse n'inyubako zihinguka.

Icyapa cya mpande eshatu kirimo amabara abiri ari yo: umutuku ndetse n'umweru, hagati handitsemo amagambo yanditse mu ibara ritukura, hakurya hagaragara ibiti.

Icyapa kigaragara mu ibara ry'ubururu, harimo irindi bara ry'umweru rya mpandeshatu, mo imbere yashushanyijemo umuntu uri mu ibara ry'umukara ndetse n'imirongo y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo aho usorejwe hari uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, haruguru yatwo hari ubusitani buto, buteyemo icyapa kigufi kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru. Hakurya hagaragara ubusitani burimo indabo, ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umuhondo itaragurika, hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'igipikipiki itwaye umugenzi, hakurya y'umuhanda hagaragara inzu y'igorofa.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umuroongo ugiye utaragurika, hagaragaramo ipikipiki iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hakurya yaho hagaragara amazu afite ibikuta by'umweru, asakaje amabati y'umukara.

Imbuga ngari ye y'igitaka ku ruhande hariho inzitiro zikikije amazu manini, higanjemo ay'amagorofa hari n'ibiti hepfo, hejuru hagaragara ikirere cyiganjemo ibara ry'umweru.

Ingofero zitukura z'ubwirinzi bambara bagiye ku mapikipiki, zigaragara ari ebyiri hari abantu bazambaye batagaragara igice cyo hasi, hagaragara n'igiti kirekire cy'umukindo iruhande rwabo, haruguru hagaragara inzu zamagorofa.

Umuhanda wa kaburimbo ufatanye n'undi muhanda uzamuka hagati y'amazu hagaragara abagabo babiri wambaye ikote ry'umukara yambaye n'ingofero y'urugara y'umweru, hari n'undi wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo ibara ritukura.

Umuhanda usashemo amabuye ku ruhande hari indabo ziteye kumurongo, uruhande rwazo hari imodoka itwara abantu ku giti cyabo iri mu ibabara ry'umukara, hakurya hagaragara amagorofa hari n'ahantu hateye igiti.

Inyubako iri mu ibara ry'umukara, ifite ibitembo bimanukaho, n'ibitambaro birinda urumuri, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, isakarishijwe amategura, hepfo hagaragara igice gitoya cy'imodoka.

Inzu y'igorofa iririmo ibara ry'ubururu hejuru ifiteho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru ndetse n'imibare, hasi hagaragara imodoka itwara abantu ku giti cyabo ihahagaze.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umukara, nyuma yacyo hagaragara ipikipiki ndetse n'ibiti, haruguru hagaragara amazu asakarishijwe amabati yo mu mabara atandukanye, hari n'imodoka ihagaze inyuma y'ibiti.

Imbuga isashemo amabuye hahagazemo imodoka ebyiri zitwara abantu ku giti cyabo, imwe muri zo iri mu ibara ritukura ,ziri imbere y'inzu y'igorofa, hejuru imanitseho icyapa kiriri mu ibara ry'umukara cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Imbuga isashemo amabuye, imbere yayo hagaragara icyapa kinini cyane, kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye, harimo n'amabara ya oranje, harimo n'icupa ririmo icyo kunywa cya oranje, inyuma yacyo hagaragara inyubako ifite imodoka zihagaze imbere yayo.

Umurongo w'umuhondo ushushanyije mu muhanda wa kaburimbo wegeranye n'undi murongo w'umweru ndetse n'umukara ukikije ubusitani buri hagati mu muhanda wa kaburimbo, hari kunyuramo amapikipiki ndetse n'amagare, hakurya hagaragara ibiti.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira hari kugendamo n'imodoka ndetse n'amapikipiki.

Agace gatoya gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari abantu babiri bagaragara nk'abarikwambuka, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi wa kaburimbo ugaragara nk'utose kari gucamo ibinyabiziga harimo amapikipiki ndetse n'imodoka hepfo hari kugaragara ibiti birebire.

Umuhanda usashemo amabuye ku ruhande ufite imirongo y'umweru ndetse n'umukara, ufatanye n'undi wa kaburimbo, ushushanyijemo imiringo y'umweru, hakurya hagaragara ibinyabiziga.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwagiye usaduka, hari kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi iri mui ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hakurya hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umweru uzamutse, n'indi mirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti, hari n'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo, mo hagati harimo iyindi mbuga. Hakurya y'umuhanda hagaragara amagare, hateye n'ibiti, hari n'irindi gare riri kugenda mu muhanda rigaragara igice gito.

Agace k'ubusitani gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uciyemo umurongo muremure w'umweru, hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'amapikipiki, hagaragara n'itara riri kwakamo icyatsi rifasha abantu n'imodoka kutambuka.

Umuhanda ugaragara nk'uwasadutse wa kaburimbo, hagati ufitemo imbuga ya mpande eshatu isashemo amabuye, hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo: imodoka ndetse n'amapikipiki, hakurya hagaragara ibiti.

Agace gato gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo werekana aho abanyamaguru bambukira hari kugendamo ibinyabiziga bicanye amatara hakurya hagaragara amatara yo ku muhanda ari kwaka ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweruru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hagaragara n'amatara afasha imodoka n'abanyamaguru kwambuka hari kugendamo n'ibinyabiziga.

Umuhanda uca munsi y'ikiraro uri kugendamo amapikipiki ndetse n'imodoka nini igeze munsi y'ikiraro, ku ruhande hari agahanda k'amabuye, iruhande rwako hateye igisambu.

Umuhanda wa kaburimbo mo hagati hagaragara mo imbuga ya mpande eshatu ishashemo amabuye, hagaragara n'imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari kugendamo igare ndetse n'imodoka hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo wo mu ibara ry'umuhondo ugiye utaragurika, hejuru hagaragara insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, uwo muhanda ufatanye n'akandi gahanda k'amabuye, gafatanye n'imbuga iteyemo ibyatsi bicyeya, hagaragara n'inyubako

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru, hagaragara n'agace k'ubusitani ka mpande eshatu, imbere hagaragara abantu ndetse n'inyubako ziri mu bwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru igenda itaragurika, hagaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibifite amabara y'umweru, umukara, ndetse n'umutku, hakurya y'aho hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo umuntu, hari n'ibinyabiziga bifite amatara acanye, hari n'amatara maremare yo ku muhanda acanye ndetse n'inyubako zifitemo amatara ari kwaka.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo imironko y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, harimo n'abantu bari kwambuka, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti ndetse n'izindi modoka.

Umuhanda wa kaburimbo werekana aho abanyamaguru bambukira hakurya hari ubusitani buteyemo hagati, ndetse n'ibinyabiziga biri kuwugendamo harimo amapikipiki, ndetse n'imodoka.

Imbuga isashemo amabuye, ifatanye n'agace gatoya gateyemo ubusitani, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira. Hakurya hagaragara inzu y'igorofa iri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ubusitani hagati bukikijwe n'imirongo y'umweru ndetse n'umukara, mu ruhande rwayo hashushanyije indi mirongo y'umweru, hakurya hagaragara ibiti by'imikindo.